Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bamwe barimo gusoma ibitabo bahagaze, abandi baricaye baracyari batoya kugira ngo bicare bagere no ku meza y'intebe ntabwo babibasha. Ahantu bari hariho ikibaho cy'umukara ndetse kandi aba bana bicaye mu bihande bigera kuri bine.

Imbaga y'abanyeshuri ndetse higanjemo abana, bakaba bari mu irerero, aho barimo kugenda bigishwa bahabwa ubumenyi buzabafasha mu gihe batangiye ishuri, bari mu mashuri abanza cyangwa se bagakomeza no mu yisumbuye.

Utwana tugera kuri tune tw'utunyeshuri turimo kugenda dukina, hariho umukobwa umwe ndetse n'uduhungu tubiri, hariho kandi abamo kugenda asimbuka akoresheje akaguru kamwe.

Umubyeyi wicaye hagati y'abana. Aha ngaha baracyari batoya, ni kwa kundi bashyizeho gahunda yo gufata abana bakabajyana mu marerero, aho bigishwa bagahabwa ubumenyi bushobora kubafasha mu gihe bagiye mu mashuri abanza.

Umugore wicaye hagati y'abana akaba arimo kugenda abaganiriza. Ni bwa buryo leta yashyizeho kuko abana bajya mu marerero bakaba bakigishwa bakazagira mu mashuri abanza bafite ubwenge bazi byinshi.

Agatsinda k'abana barimo gufata ifunguro, aha ngaha bicaye ku mukeka bakuyemo inkweto barimo kugenda barya kugira ngo bakomeze amasomo bafite ingufu, aha ngaha ni mu irerero.

Abana bari mu mashuri y'inshuke, bakaba barimo kugenda baganirira hamwe, izi ntebe bicayeho zifite amabara agiye atandukanye. Hariho ifite amabara y'ubururu, izindi ebyiri zifite amabara y'umuhondo, indi na yo ifite ibara ritukura.

Abana bagera kuri batandatu bakaba bicaye mu ishuri, aha ngaha barimo kwiga kandi ni ukuvuga ngo bari ahantu bakorera mu matsinda kugira ngo baze gufashanya mu masomo yabo.

Abana bicaye ku ruziga rw'igice imbere hakaba hariho umwarimu, ari kumwe n'akandi kana urimo kugenda bareba mu bice bigiye bitandukanye by'amasomo bareba mu gitabo, aha ngaha bari ni mu irerero.

Abana bakoze uruziga hagati hakaba barimo abarimu babiri barimo kugenda babasusurutsa n'abo bana nabo bagakoma mu mashyi, aha ngaha ni mu kigo cy'amashuri aho barimo kugenda babyina.

Abana batonze umurongo barimo kugenda batozwa gukaraba, imbere yaho hariho umwarimu urimo kugenda abereka uko isuku ikorwa kugira ngo na bo bagende babyitoza. Aha ngaha ni mu irerero.

Utwana tubiri tw'utunyeshuri turimo kugana ku kigo, twambaye impuzankano igizwe n'amakabutura ya kaki ndetse kandi bambaye amashati y'ubururu bw'ikirere, bakaba bafite n'ibikapu mu mugongo.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo abana biga mu mashuri abanza, hariho abahetse ibikapu, barimo kwitegura gutaha, hakaba harimo umwarimu na we urimo kugenda aganira na bo, aho yegereye ahantu bashize inkwi.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amategura kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye, harimo abakobwa bagera kuri babiri bambaye impuzankano igizwe n'amashati ndetse n'amakanzu y'ubururu bakaba bari kugana ku mashuri yabo.

Icyumba kiriho ahantu bagiye bacumika ibintu bijyanye n'amashanyarazi, hakaba hariho amatsinda agiye atandukanye, ndetse n'ibindi bintu bigiye bicumitseho, aha ngaha kandi hakaba hariho amatafari ntarangi riteyemo kandi nta na sima ihari.

Abana bicaye mu matsinda bakaba barimo kugenda bafashanya, bakaba biganjemo abiga mu mashuri abanza ndetse kandi abahungu bambaye kaki n'aho abakobwa bambaye amajipo n'amakanzu y'ubururu.

Ahantu abanyeshuri bigira hakaba hariho amasomo y'ibimenyetso, hakaba hariho intoki n'icyo zigaragaza mu gihe niba ari a hariho ikimenyetso, niba ari ba cyangwa se hakaba hariho ibimenyetso bitewe n'ibyo abantu biga.

Itsinda ry'abanyeshuri barimo kugenda baganira, bamwe muribo bafite ibitabo barimo kugenda basomera bagenzi babo, undi umwe arimo kugenda yandika, abakobwa nabo barimo kugenda bitegereza ibyo uyu muhungu arimo kwandika.

Mu ishuri hakaba ari intebe habitsemo amasahani hakaba harimo n'ibikombe biri buze kwifashishwa mu gihe igihe cyo kurya kigeze, ni ho abanyeshuri babyifashisha.

Mu kigo hakaba hari ishusho igaragaza umugore ndetse n'umugabo bari ahantu mu ishyamba ndetse hakaba n'umugezi hagati igaragaza adamu ndetse na eva bakiri mu busitani bwa edeni aha ngaha inzoka irimo kumushuka.

Imbaga y'abana bagiye batandukanye biganjemo abiga mu mashuri abanza, bamwe bakaba bambaye amakabutura n'amashati ya kaki, abakobwa bakaba bambaye amakanzu y'ubururu, aha ngaha kandi hakaba hariho inyubako yubakishije ibiti.

Isomero rikaba ririmo ibitabo by'amoko agiye atandukanye aho ushobora kuza ukaba wahatira igitabo cyangwa se ukaba wagisomera aha ngaha mu gihe ugikeneye cyangwa se ushaka kwiyungura ubumenyi.

Abana biga mu mashuri abanza bakaba bicaye mu matsinda aho abagera kuri batatu ari abakobwa, hanyuma abandi bagera kuri batanu akaba ari abahungu, bakaba bicaye mu matsinda bari gusomera hamwe igitabo umwe muri bo yasinziriye.

Ahantu hari imodoka irimo kugana ku kigo cy'amashuri, inyuma hakaba hariho akazu gatoya ndetse hino hakaba hariho ibiti bya gereveriya biri hakurya y'umuhanda. Ndetse akaba ari mu giturage.

Abana bakiri batoya bakoze uruziga, bakaba barimo kugenda baganira, harimo umuntu umwe mukuru. Aha ngaha ni kwa kundi bafata abana bakabahuriza hamwe, hanyuma bakabajyana mu marerero cyane se mu mashuri y'inshuke.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo abana ndetse kandi bamwe bahetse udukapu, abenshi bambaye amakabutura ya kaki ndetse n'amashati y'ubururu bakaba barimo kwidagadura.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo umugabo urimo kugenda areba impande n'impande, uyu nguyu akaba ahakora, hariho ubwiherero ndetse ahantu ari arimo kugenda areba aho umwana arimo kwerekeza.

Ikigo cy'amashuri hakaba harimo abana bicaye ku gasima, akaba ari muri cya gihe abana baba bagiye kuruhuka, aha ngaha hakaba ari amashuri yigisha abana bari mu mashuri abanza, kugira babashe kubona ubumenyi buzabageza mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bagera kuri batanu bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo ujya gusa nk'umuzungu, akaba arimo kugenda bafasha abashishikariza gutera ibiti aha ngaha bakaba bafashe igiti barimo kugenda bazengurutsaho uruzitiro kugira ngo kigire umutekano.

Ahantu ari imibare igiye itandukanye, guhera kuri zero kugeza ku gihumbi, akaba ari bwa buryo abana bifashisha mu kubara, akaba yahera kuri rimwe akageza ku icumi, cyangwa se agahera kuri rimwe akageza ku ijana, bitewe n'ikigero agezemo.

Umwana w'umuyeshuri ufite ikayi, aka arimo kugenda yandikamo imibare, afite agakaramu arimo kwifashisha, ndetse kandi arimo kugenda yandika uko bagiye bakosora ikibazo.

Umupira w'amaguru wabanzwe n'abana, akaba ari akarere, kakaba gasobetse mu masashi ndetse n'imigozi bagiye baca kubitenge, kugira ngo babashe kugenda bahuza.

Ibitabo by'imfashanyigisho, cyane cyane hakaba birimo ibyigisha ubumenyi n'ikoranabuhanga riciriritse. Ahangaha akaba ari igitabo kigenewe umwaka wa gatanu, mu mashuri abanza.

Ikigo cy'amashuri aho hagati hariho ibendera, aha ngaha kandi akaba asakajwe n'amabati yashaje, ndetse inzugi z'abo zifite ibara ry'ubururu.

Urubaho rw'umukara, hakaba hariho aho umuntu agenda yandikira ndetse aha ngaha ni mu isomo ry'imibare, aho abanyeshuri bagenda basubiramo imibare, ari na ko bagenda bayandika ku kibaho.

Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo ibitabo. Ndetse hirya hariho intebe ndetse kandi hakaba hamanitseho ibipapuro bike bitandukanye. Aha ngaha ni mu ishuri kuko harimo izindi ntebe abanyeshuri bicaraho.

Ibitabo bigera kuri bine byiganjemo imfashanyigisho mu mibare aho abana biga mu wa kabiri mu mashuri abanza bashobora kuyikoresha mu gihe barimo kwiga kugira ngo bakurikirane imyitozo umwarimu yabahaye.

Ikigo cy'amashuri hakaba harimo abana biga mu mashuri abanza, umwe muri bo ateruye umwana hakaba abandi bafite ibiryo barimo gusangira, aha ngaha aya mashuri afite inzugi z'icyatsi ndetse n'amadirishya bisa.

Ahantu hari mazu hakaba hariyo utwumba tugiye dutandukanye, aha ngaha ni mu bwiherero aho umuntu ashobora kwinjira mu cyumba kugira ngo abashe kuba yakisanzura ndetse kandi kwinjira umuntu abanza agakomanga.

Udukoresho turimo amakaramu ndetse hakaba harimo na za marikeri zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo kwiga, hakaba hariho n'ifirimbi ijya gusa n'ibara ry'icyatsi, aha ngaha kandi hakaba hegereye igitanda.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba barimo kugenda bamanika amaboko, aha ngaha bari bari mu nama barimo kugenda baganirizwa ari nako bagenda babazwa bagasubiza.

Abanyeshuri abenshi muri bo barahagaze, abandi bicaye ku dusima duhari, imbere hariho abayobozi babarangaje imbere, bamwe bakaba bafashe imipira yabo bakayishyira ku rutugu, abenshi kandi bambaye amakaruvati.

Imbaga y'abanyeshuri bicaye buri wese ukwe, barimo kwiga, umwe arimo kugenda yandika, ndetse abenshi bagiye bakuramo imipira bakayishyira ku ntebe, aha ngaha barimo kugenda bakurikira ibyo barimo kubabwira.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe na senyenge, hakurya hakaba hariyo abana bambaye impuzangankano y'ubururu. Akaba ari ku muhanda uri gucamo n'abantu aba bana bicaye mu busitani barimo kugenda bakusanya imyanda, kugira ngo bayijugunye ahabugenewe.

Umwana uteruye isahani irimo ibiryo ni abana biga mu mashuri abanza bakaba bageze mu isaha ya saa sita yo kurya kugira ngo bafate ibyo kurya hanyuma bakomeze amasomo. Akaba ari kugenda abisikana na bagenzi be.

Imbaga y'abanyeshuri bicaye hakaba hariho umugabo urimo kugenda abaganiriza. Aho bicaye kandi na bo ubwabo barimo kugenda baganira, hanyuma uyu uri imbere akabamo agenda abahereza ibitekerezo.

Ikigo cy'amashuri, kikaba kigeretse kabiri, hakuno hakaba hariho aho abantu bashobora guca gusa hakaba ariho senyenge, hakurya habaka harimo abanyeshuri bari hejuru, barimo kugenda bitegereza mu muhanda. Aha ngaha kandi hakaba hariho ubusitani bugiye butandukanye.

Ikigo cy'amashuri kikaba gikikijwe n'urukuta rurerure ku buryo umunyeshuri adashobora gusimbuka ngo ajye hanze. Kandi ahantu kiri harimo aho abantu bashobora kwidagadurira.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bateze amatwi umuntu urimo kubagezaho ikiganiro. Ahangaha ni ikigo cy'amasuri, bamwe bagiye basinzira, bamwe bambaye udupfukamunwa abandi bafite imisatsi ntabwo biyogoshishije.

Imbaga y'abanyeshuri benshi barimo kugenda bareba umupira, aha ngaha ni abari gukina umupira wa basikete ndetse kandi hariho abambaye impuzangano y'amashati y'umweru ndetse n'amakabutura cyangwa si amapantaro ya kaki.

Ahantu hubatswe igicumbi kigaragaza indangagaciro ndetse na kirazira, akaba ari igicumbi cy'itorero Imparirwakubarusha ndetse kandi aha ngaha akaba ari i Muhanga.

Umugore ufite indangururamajwi, inyuma ye hakaba hicaye abana bo mu mashuri abanza, abandi bana bakaba bari hejuru mu nzu yubatse mu buryo bwa etaje cyangwa se mu buryo bugeretse bakaba barimo kugenda bagezwaho ubutumwa.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bakaba ari abakobwa biganjemo hano ndetse kandi barimo kugenda basubiramo ibyo bize. Umuhungu n'umukobwa barimo kugenda bandika, abandi na bo baricaye, barimo kwitegereza.

Mu kigo cy'amashuri hakaba hari urubaho rw'umukara, hariho abana bari barimo kwiga Icyongereza bakaba bakoze ibazwa bakoreye ku manota icumi. Aha ngaha akaba ari mu mwaka wa gatanu indimi.

Mu ishuri, akaba arimo ya mashuri abanza, imbere hariho umwarimu ndetse n'abandi basore bagera kuri babiri: umwe w'umunyeshuri ndetse n'undi utambaye impuzangano. Uyu mwarimu arimo kugenda agana ahantu yateretse mudasobwa ye.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abanyeshuri ndetse n'abayobozi babo, abayobozi bakaba bicaye imbere ndetse kandi aba banyeshuri bambaye amakarita abaranga mu majosi, akaba uyu mwarimu arimo kugenda aganiriza mugenzi we w'umugore.

Mu kigo cy'amashuri hakaba hariho ibiti bigiye bitandukanye. Inzugi zo muri iki kigo zisize irangi ry'icyatsi ndetse zikagira n'amabati ajya gusa nk'umweru, hino hakaba hariho aho abanyeshuri babasha kwidagadurira.

Umuryango munini cyane ukaba uteye irange ry'icyatsi ndetse hejuru hariho n'irindi dirishya rinini cyane riri hejuru y'umuryango bigaragara ko iyi nzu yubatse mu buryo bugeretse cyangwa se etaje, hino hakaba hariho ubusitani burimo amoko y'ibiti bigiye bitandukanye.

Amakipe abiri agiye guhangana, ikipe imwe yambaye impuzankano igizwe n'imipira y'umutuku ndetse n'amapantaro bisa. Indi ku rundi ruhande yambaye imipira ndetse n'amakabutura y'umweru afite uturongo tw'umukara.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo abana bakiri batoya, bamwe bambaye udukabutura abandi bambaye amapantaro y'ubururu n'amashati bijya gusa, bakaba bari mu kigo cya Elena Guerra, bakaba bari aho bakirira abantu.

Umugabo ufite agatelefoni, akaba ari mu kigo cy'amashuri, hakurya kikaba gifite na Kiliziya, aho abakirisitu gatulika bashobora gusengera, iki kigo kandi kikaba cyubatse mu buryo bwa gisirimu, hakaba hariho n'ubusitani bugiye buri imbere y'amashuri.

Mu kigo cy'amashuri hakaba hariho umwarimu urimo kugenda atanga ubutumwa. Hariho abana bambaye impuzangano ifite amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki n'amajipo ya kaki ku bakobwa. Bakaba barimo kugenda bahabwa ubutumwa bugiye butandukanye.

Abana bari mu ishuri, biganjemo abiga mu mashuri abanza kuko bambaye amajipo matoya, akaba bambaye n'udushati turimo uturongo, aha ngaha bari akaba ari mu ishuri, rikaba ritarimo parafo.

Imbaga y'abanyeshuri abahungu n'abakobwa, bakaba bicaye ahantu mu nzu mberabyombi, bakaba barimo kugenda baganirizwa, abenshi bafite udukayi barimo kugenda bandikamo ibyo bamaze guhugurwa kugira ngo bajye babyibuka.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo umwarimu, imbere ye hariho ibikoresho byinshi nka kwa kundi baba bagiye guhemba abana bitwaye neza cyangwa se ari bwa buryo bwo gufasha, aha ngaha hari ibikoresho bigiye gutangwa.

Ahantu hateraniye abanyeshuri benshi, hakaba hahagaze umunyeshuri umwe wambaye ipantaro y'ubururu akaba yanatebeje, yambaye umukandara w'umukara ndetse kandi akabo kamwe kari inyuma, afite indangururamajwi.

Abana bari mu ishuri bakaba barimo kugenda barambura amakaye yabo bafite n'ibitabo kandi ahantu bicaye ni za ntebe aho umuntu aba ashobora kubikamo ibikoresho nk'amakayi, amakaramu ndetse n'ibitabo.

Ahantu hakaba ari ikibuga aho abantu bashobora gukinira umukino wa basikete mu gihe barimo kwitoza. Hakaba hakikijwe n'ibyatsi byagiye bimera hepfo kandi hakaba hariho ishyamba.

Aho abanyeshuri ndetse n'abandi bantu barebera umupira hakaba harimo abantu b'ingeri nyinshi biganjemo: abahungu, abakobwa, akaba benshi barimo ari abanyeshuri bakaba bateze amatwi ibintu birimo kujya mbere.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abambaye imyenda yo mu muco Nyarwanda, ndetse kandi hakaba hariho mu nzego z'umutekano, hakaba hariho mu basirikare, ndetse kandi hakaba hariho n'umuporisi, bakaba ab'inyuma bamanitse ibiganza.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu buryo bugezweho, kirimo gutahwa kuko hariho amabendera y'u Rwanda, ni imitako bagiye basizeho kugira ngo babashe kuhataha, hanyuma nyuma y'igihe runaka hatangire kuzamo abanyeshuri.

Abakinnyi barimo gukina umupira w'intoki, hakurya hakaba hariho abantu barimo kugenda bafana bareba uko umukino urimo kugenda, aha ngaha akaba ari amakipe abiri ahanganye, imwe ikaba yambaye amashati cyangwa se imipira y'ubururu.

Mu Kigo cy'Indatwa n'Inkesha, akaba ari ku marembo, imbere harimo abanyeshuri, haparitsemo n'imodoka. Aya marembo hariho ibigaragaza ibikorerwa hano mu kigo ndetse kandi hariho ibirimo kuhabera.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bakaba bicaye barimo kugenda bandika ibyo umwarimu yabahaye, bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amapantaro, amajipo ya kaki.

Ikipe y'umupira, bakaba bambaye impozankano igizwe n'amakabutura y'umutuku ndetse n'imipira y'umweru, ikaba ifite inyuguti n'imibare igiye yanditse mu mugongo wabo.

Ahantu ku kigo cya Nyanza, i Gatagara, hakaba hariho ibyo bagenda bigisha, cyane cyane ibijyanye n'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, nibyo bikorerwa aha ngaha kuri ki kigo.

Ku kigo cy'amashuri aho umuntu yinjirira mu gihe agiyemo, hakaba hahagaze umugabo ushinzwe umutekano, akaba afite agakoni, yambaye ingofero y'ubururu ndetse isa n'ipantaro ye.

Mu kigo cy'amashuri cya Mutagatifu Bosiko, hakaba hariho ibyo bagenda bigisha ndetse kandi aha ngaha ni ku cyapa hariho amagambo agaragaza iki kigo, noneho hakabaho n'ibishushanyo bigiye bitandukanye

Abagabo bagera kuri bane bakaba ari abubatsi, aba ngaba bambaye ingofero zibarinda kuba bakomereka mu gihe haje kubaho impanuka. Aba ngaba bakaba bameze nk'abanyeshuri babandi biga ubumenyingiro.

Icyapa kigaragaza Mutagatifu w'ubutatu, aha ngaha akaba ari mu Ruhango, hakaba hariho ibyo bigisha harimo icyiciro cy'amashuri abanza, bakaba bigisha imibare, bakaba bigisha amateka, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'Isi.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa basikete, hakaba harimo amabara agiye atandukanye bagiye basigamo kugira ngo babashe kuba bamenya aho umuki ugeze, ndetse mu gihe yabereyemo ikosa bakaba bashobora kurigenderaho mu gihe barimo kurihana.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo kugenda bakina ndetse barimo gukina umupira w'intoki, harimo amakipe abiri ahanganye, imwe yambaye impuzangano y'umweru ndetse n'indi yambaye impuzangano igizwe n'imipira irimo uturongo tw'ubururu.

Imbaga y'abanyeshuri benshi, bakaba barimo kugenda baganirizwa ku butumwa bugiye butandukanye. N'imbere yabo hariho umwarimu urimo kubagezaho ikiganiro ndetse n'abandi barimu bicaye ku ntebe bakurikiranye, ari na ko bitegereza abanyeshuri.

Amashuri amaze igihe gitoya yuzuye, akaba asakajwe amabati atukura, hakaba hari ubusitani burimo igiti cyayumbaje ndetse kandi ahangaha mu gihe gitoya hagomba kuba harimo abanyeshuri.

Abana bari mu kigo cy'amashuri inyuma yabo hakaba haparitse moto ndetse ahantu bari ni aho binjirira mu gihe bagiye muri iki kigo, akaba ari ku marembo afite urugi rutukura.

Ikigo cy'amashuri aha ngaha akaba ari mu mbuga aho abana bashobora gukinira, aha kandi hakaba hazengurutswe n'igipangu cy'amatafari, igipangu kandi kikaba gishushanyijeho indabo ndetse n'ibiranga iki kigo.

Ahantu hari igipangu kinini ndetse kandi hakaba hariho indabo zigiye zitandukanye ndetse kandi hakaba hariho ibiti birebire bya pinusi ndetse aha ngaha akaba ari mu kigo cyihariye.

Aba ni abanyeshuri barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, bakaba bageze ahantu hari igiti cy'umunyinya cyahimbaje cyenda kugera mu muhanda, bakaba bahetse ibikapu bashizemo amakayi ndetse n'ibindi bikoresho by'ishuri.

Imbaga y'abanyeshuri benshi biteguye gutaha, benshi muri bo bafite ibikapu mu mugongo. Hakurya hariho imodoka ibategereje kugira ngo ibacyure, akaba ari abakobwa ndetse n'abahungu bose bakaba biteguye gutaha.

Ikigo cy'amashuri gifasha abantu bafite ubumuga bwo kutumva, aha ngaha kikaba kiherereye i Butare, hakaba hariho na aderesi ushobora kubasangaho mu gihe wifurije kuba wahagana cyangwa se ufite ikibazo kijyanye n'iki kigo.

Ahantu h'ikigo mu rwunge rw'amashuri rwa kigeme ya kabiri hakaba harimo abantuyeshuri barimo kwinjira bakaba bari ku marembo, umwe yambaye agapira k'umuhondo ndetse undi yambaye ikanzu.

Icyumba cyo mu ishuri hakaba harimo intebe abana bicaraho, hakurya hariho akabati kuzuyeho ibitabo hejuru ndetse ku kabati handitseho itangazo rishobora kuba ribuza abantu kuba bafungura akabati.

Intebe zazindi ziba zifitiye ameza aho umunyeshuri agenda abikamo ibikoresho ndetse kandi harimo n'akantu gatoboye, aho umunyeshuri ashobora kunyuza ikaramu igahita ijya mu kibiko nta handi hantu aciye, kandi hari n'aho ashobora kwegama ku ntebe ya mugenzi we.

Ahantu hagiye kubera umukino, hakaba ariho abafana biganjemo abahungu n'abakobwa, akaba iyi kipe yambaye impuzangano igizwe n'imipira y'umukara ndetse iriho na nimero zabo, uretse umwe, wambaye umupira w'umuhondo.

Abanyeshuri bicaye ku dutebe, aha ngaha imbere yabo harimo abayobozi kandi abanyeshuri bicaye bakaba bakurikije intera, aha ngaha bameze nk'abakoze amakosa barimo kugenda baganirizwa.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kimeze nk'aho ari mu ivuriro, harimo amoko y'imiti agiye atandukanye hakabaho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora ubushakashatsi, hakaba hameze kandi nko mu ruganda.

Abanyeshuri bafite amakayi, imbere yabo hariho umwarimu urimo kugenda abigisha, ahantu bari kandi hariho n'ibitabo biri mu tubati, hakaba hariho n'ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo gufotora urupapuro.

Ahantu harimo akazu, kakaba karimo indangururamajwi cyangwa se bafure yifashishwa mu gukwirakwiza amajwi mu buryo bwihuse kandi ivuga cyane. Aha ngaha akaba ari muri kaminuza y'u Rwanda.

Inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo iby'ikoranabuhanga, hakaba hariho aho umuntu ashobora gukarabira cyangwa se mu gihe abari mu bushakashatsi, aho bashobora kuba bakorera utuntu twabo bitonze.

Mu kigo cy'amashuri, hakaba yiciyemo umunyeshuri umwe. Akaba afite mudasobwa ye arimo kugenda akoreramo, imbere hakaba hariho urubaho umwarimu yandikiraho, amadirishya nayo akaba ariho amarido.

Ahantu cyane cyane muri kaminuza y'u Rwanda, bakaba bagaragaza aho ibijyanye n'ibimera cyangwa se ibiti aho bitunganyirizwa ndetse cyane cyane bita ku mutungo kamere, aha ngaha akaba ari mu ishyamba.

Abagabo ndetse n'abagore bari mu nama bafite za mudasobwa imbere yabo, barimo kugenda bareba mu byo bamaze kwiga hanyuma bakabyandika, imbere yabo kandi hariho amazi ari mu macupa barimo kugenda banywa.

Icyumba kirimo ameza ndetse n'intebe umuntu ashobora kwicara akanigama zikoze mu biti. Hakaba hariho imeza ariho mudasobwa na telefone igendanwa ndetse kandi ku madirishya hakaba ariho amarido.

Amazu agera kuri abiri, hariho aho abanyeshuri bananika imyenda, akaba ari amazu cyangwa se amacumbi abanyeshuri babamo, hakuno kandi aho banika imyenda hakikijwe n'ubusitani ndetse n'indabo zisa neza.

Ikiganza cyambaye uturindantoki hakaba hariho utuntu tw'utumenyetso bagiye bafata, akaba ari nka kwa kundi kwa muganga bagenda bafata ibizamini bigiye bitandukanye barimo gupima kugira ngo barebe indwara umuntu yaba arwaye.

Ahantu hari akapa kayobora abantu mu bice bigiye bitandukanye, akaba ari zimwe mu nyubako za kaminuza nkuko bigaragazwa n'iki kirango. Hakaba hariho urugi aho ushobora kwinjira mu gihe ugiye gusaba izi serivise.

Ahantu hari amazu abantu bagenda bacumbikamo, aho ni ho umunyeshuri agenda akaba yakwishyura, hanyuma akajya abamo, akajya yishyura ku kwezi bitewe n'igiciro inzu igezweho.

Inzira iri ahantu mu kigo hakaba harimo abanyeshuri babiri, umwe afite ubumuga bw'amaguru bakaba barimo kugenda bamusunika kugira ngo bamufashe no kumugeza aho agiye.

Iduka ririmo ibitabo gusa ushobora no kubisanga mu bigo by'amashuri aho umuntu yinjira agasoma ibitabo cyangwa se akaba yatira agasomera aho ngaho kugira ngo yiyungure ubumenyi.

Ikigo cya kaminuza ishingiye cyane cyane ku barokore, bakaba batanga ubumenyi bugiye butandukanye ndetse kandi ikaba iherereye mu karere ka Huye nk'uko bigaragazwa n'icyapa kimanitse hejuru ku marembo.

Abarimu babiri bafite ibipara, ni ukuvuga ko biyogosheshe nta musatsizi bafite, barimo kugenda bahugura abanyeshuri biga muri kaminu yigisha imyuga n'ubumenyingiro, bakaba barimo kugenda bashyira mu bikorwa ibyo bize.

Imbaga y'abantu benshi bameze nk'abanyeshuri biga mu makaminuza y'u Rwanda, barimo kwinjira ahantu habera imyidagaduro aho barebera umupira cyangwa se ahabera inama no gusenga mu gihe ari ku cyumweru.

Kaminuza ishingiye ku idini rya katolike hakaba hariho icyapa kigaragaza ibyo bigishiriza hano, hakaba hariho uruzitiro rutuma umuntu uwo ariwe wese atabasha kwinjira, hakaba harimo n'ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye.

Umunyeshuri wicaye ndetse arimo kugenda afata igikapu cye n'undi ugiye kwicara, amatara aracanye ndetse hariho intebe abanyeshuri bicara aho zazindi umuntu ahaguruka nayo igahita yongera ikizinga.

Umugabo mugufi urimo kugenda atambuka, hakurya hariho ubusitani ndetse hakabaho n'ibiti birebire cyane, bikaba ari byo bituma aha hantu hahora hafite amahumbezi, hakurya hakaba hicaye umunyeshuri urimo kwiga.

Icyumba kirimo uburiri akaba ari ibitanda bigerekeranye, kimwe kirasashe ndetse ahandi hariho ameza ariho amakayi hakabaho n'udusokozo, giteye mu kajagari kuko harimo za mudasobwa, amabasi ndetse n'ibindi byinshi.

Ahantu hari akabati hakaba hari n'udutebe ndetse haragaragara inzugi ziri mu mabara agiye atandukanye: harimo rumwe rufite ibara ry'umukara ndetse n'urundi rufite ibara ry'umweru. Aha ngaha akaba ari ya meza aboneka mu byumba by'abanyeshuri.

Icyumba kirimo ibitanda bigera kuri bibiri aho abantu barara, hakaba hariho kandi n'utubati aho bashobora kuba babika ibikoresho byabo, hakaba hariho n'amatara yaka mu gihe cya nijoro.

Itsinda ry'abanyeshuri biga muri Kaminuza, hakaba barimo kugenda bagirwa inama n'umwarimu wabo arimo kugenda abigisha amasomo agiye atandukanye, na bo bakagenda bandika bashingiye kubyo ari kugenda ababwira.

Ahantu hari ibitanda bigera kuri bibiri, bimwe bikaba bisashe hanyuma kimwe kikaba kiriho igikapu kinini, hakurya kandi hariho utubati aho umuntu ashobora gushyira ibikoresho bye mu gihe runaka.

Ahantu abanyeshuri bacumbika hakaba hariho naho bamanika imyenda yabo, mu gihe bamaze kuyimesa. Hakurya hakaba hariho inyubako ndende, ifite amabara' umweru n'umukara, amacumbi yo akaba afite amabati atukura.

Ikigo cyubatsemo urusengero hakuno hakaba hariho igiti cya kindi kiba kiririho file ishobora kwifashishwa mu gihe abantu barimo gukina, ahangaha bakaba ariho bakorera imyidagaduro abana bakiri batoya ndetse n'abanyeshuri.

Mu kigo cy'amashuri hakaba harimo intebe zigiye zitandukanye, imbere hakaba hariho ikibaho aho umwarimu yandikira, hakaba hariho umunyeshuri ndetse uri kumwe na mugenzi we bakaba bahagaze mu muryango bitegereza ukuntu umwarimu yandika.

Mu isomero hakaba harimo ibitabo by'amoko agiye atandukanye, bakaba bashishikariza abantu gusoma, bakagaruka bakongera bakajya bahora basubiramo kugira ngo biyungure ubumenyi. Aha ngaha bikaba bibikwamo hanyuma ukaba ushobora no kubitira.

Aho bakirira abantu hakaba hari nimero z'umuryango, ku buryo igihe uhageze ushobora kuba warebera kuri iyo mibare ukurikije uko bakurangiye, hakaba hariho urupapuro ruriho ifoto y'umuntu wakira abantu ku buryo hariho na nimero ze.

Inama irimo abantu batari benshi bakaba barimo kugenda biga, imbere bafashe cya gikoresho gitubura amashusho, projegiteri bakaba barimo kugenda biga ibintu bigiye bitandukanye ndetse muri bo bafite za mudasobwa barimo kwigiramo.

Uburiri burimo ibiringiti ndetse hakaba hariho n'amasakoshi umuntu urara kura ubu buriri akoresha, ndetse kandi hakaba hasize irangi ry'umuhondo kandi amadirishya na yo arafunze.

Icyumba cy'umunyeshuri hakaba harimo ameza n'intebe ashobora kwicaraho, hakaba hari naho ashobora gucomeka telefone ye, hakaba kandi hariho n'igitanda gishashe neza, hejuru hakaba hariho n'aho ashobora kuba yamanika imyenda ye.

Mu cyumba cy'amashuri, imbere hakaba hariho cya cyuma gitubura amashusho, hakaba harimo utebe abanyeshuri bicaraho n'intebe zo kwegama, hakaba hariho utumeza aho umuntu wicaye ashobora kuba yakwandikiraho.

Icyumba kinini kikaba kirimo intebe aho abanyeshuri bicara mu gihe barimo kwiga, hakaba hariho n'utumeza bandikiraho, hakurya hakaba ariho amadirishya arimo kuzana urumuri muri iki cyumba.

Inzu nini ikaba irimo intebe, aha ngaha ni aho bakirira abantu baje mu nama, izi ntebe kandi zikoranye ubuhanga aho umuntu aba afite aho yicara ndetse n'aho ashobora kuba yakwandikira mu gihe bibaye ngombwa.

Icyumba bagiye bakuramo udukweto, hariho aho gukandagira hariho tapi ndetse ku meza hariho udukayi umuntu ashobora kwandikamo utuntu twe, hakurya hariho kandi aho umuntu ashobora gukarabira intoki.

Inzu nini cyane yubatse nk'urusengero ikaba ahantu iri hariho ubusitani hakaba harimo kandi n'ibiti bigiye bitandukanye by'amapera, ahangaha kandi ikaba imeze nk'inzu abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda bigiramo.

Ahantu hubatse mu buryo bugeretse, aho hamwe hari icyumba hejuru n'ahandi hasi hakaba hanitse imyenda, aha ngaha kandi habamo abantu bacumbitsemo mu gihe barimo kuhakorera.

Inzu ya kaminuza cyane cyane ko ari urusengero, aho abantu basengera hakaba hariho amakona abantu bitorezamo mu gihe barimo gutwara. Hakurya hariyo ifoto ya Bikira Mariya iri mu kazu.

Ubusitani buriho ibiti bigiye bitandukanye bya bindi bagenda bakata bigakora uruzitiro. Hakurya hariho amatara y'umweru, akaba ari inyubako na yo isize amarange y'umweru ifite imbaraza zisize amarange atukura.

Abantu bicaye mu maresitora bakaba barimo gufata ifunguro, bangahe bicaye ku ntebe imwe ndetse n'ameza amwe, uko abantu bagiye baziranye ni nako bagiye bicaranye.

Abagabo harimo uwambaye karuvati itukura bari mu nama, abenshi bambaye amadarubindi ndetse hakurya hariho ufite amazi, uyu mugabo yambaye ikote ndetse afite n'urupapuro ruteretseho telefone.

Inzu ya Kaminuza y'u Rwanda, hakaba arimo umunyeshuri urimo kwiga, imbere ye hakaba hariho aho umunyeshuri cyangwa se umwarimu ahagarara mu gihe ari kugeza amasomo ku banyeshuri. Ikindi kandi hakaba hariho aho bicara ndetse n'aho bandikira.

Mu kigo hakaba harimo aho abantu bicara ndetse n'ameza, aha ngaha hari n'ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ndetse kandi aha hantu hameze nko mu ruganda, harimo ibyuyuma byinshi abantu bakwigiraho.